Ikibuga kiriho ibikoresho bitandukanye by'abana b'incuke bakiniraho: imodoka, umunyenga, indege. Hirya yaho, hari uruzitiro rufite amabara atandukanye, rwubakishije amatafari.

Inzu yubakishije amatafari g'umutuku, harimo umurongo gumanuye n'ugutambitse, gusize umuhondo ku gikuta. Hariho ikibaho gisize irangi ry'icatsi, mu ishuri mo ndani harimo intebe za pipiteri zisize verine y'umuhondo.

Idirifasha rifunguye ry'icyuma, rigabanyijemo utuyetajeri tune kamwe kamwe karimo ibirahuri, aka gatatu muri two harimo ibirahuri n''ibikarito, risize irangi ryose ry'umweru.

Icumba c'ishuri kirimo intebe za pipitiri gifite umuryango g'ubururu n'amadirisha g'ubururu, ikibaho gisa n'umukara, igikuta gisize irangi risa n'umuhondo.

Ikigo c'amashuri kirimo jaride hagati, hari abanyeshuri bari kwinjira mu mashuri bahetse ibikapu, amabati yayo asize ibara rigiye gusa n'icatsi naho amadafari gasa n'umutuku, hariho voka iri gukura itari yakura neza.

Umunyeshuri wifumbase wambaye iniforume isa n'umweru. Hirya ye hariho icapa gishushanyijeho umugore uri gutera intambwe, wambaye agapira n'akamucikopa gasize ibara rya maharare.

Abacuranzi bari gucuranga ibikoresho bya kizungu ,harimo ingoma za kijyambere, bambaye iniforume zifite amabara y'umweru n'ay'umukara, n'umugabo wambaye ishati y'umuhondo.

Abaganga ba laboratwari bari guhengereza mu byuma, bafite imbere yabo, bambaye amataburiya y'umweru, ingofero z'umweru, inyuma yabo hari ibintu by'ibikarito.

Umukozi ukora muri resitora wambaye ingofero y'umweru n'ishati y'umukara. Afashe idongo iriho inyama, hirya ye hariho amabakure arimo ibiryo bitandukanye.

Umugabo uhagaze uri kureba muri kamera, impande ye hariho nyinshi n'ibyuma by'ikoranabuhanga bifite insinga zitandukanye, hari izifashe ku bikuta, hari n'utumeza bimwe biteretseho, dufashe hasi.

Umunyeshuri wicaye imbere y'imashini za kompiyuta, yambaye agapfumunwa, n'ingutiya ifite amabara g' umutuku n'ishati ifite amabara g'umweru, inyuma ye hari undi na we wambaye nka we, ku murongo bariho hariho imashini iri ku murongo gumwe gumwe zegeranye.

Abagaburaga ibyo kurya muri hoteri batatu bambaye amashati y'umweru, utugofero tw'umweru, abahungu babiri bambaye amapataro y'umukara, umukobwa umwe yambaye ingutiya imwe y'umukara, bari gukata ibitunguru undi ari gukata karoti, undi ari gutonora inyanya n'icupa ry'amavuta riri imbere yabo.

Abanyeshuri bambaye imyenda zisaga n'iz'abagaradi bafashe inkoni ndende bazishyize ku murongo gumwe inyuma yabo hari abandi bari kugundi muronko hagati yabo hari icuma gisize amabara g'umweru harimo n'icapa.

Umuhungu n'umukobwa bari mu ishamba bafite kamera bari kureba inyoni ,umuhungu yambaye umupira gufite amabara g'icatsi n'ikoti rigiye gusa n'ibyatsi ,n'umukobwa niko bimeze hijya yabo hari ibiti binini cane.

Icumba c'ishuri kirimwa ameza, gazengurutswe n'intebe z'umuhondo, iz'umutuku n'iz'ubururu, hejuru yago hateretse udukarito turimo ibikoresho bitandukanye, imbere ku gikuta hariho ikibaho c'icatsi n'irati ihagaritse n'impande itatu.

Abanyeshuri bari kwiga bicaye muri raboratwari, ifite ameza y'ubururu, bambaye n'amakaruvate y'ubururu, n'amashati y'umweru, bafite udutsinga duhagaze bari gukoresha.

Abanyeshuri bari mu ishuri bambaye iniforume z'umweru, bambaye nk'abayisilamu bitambiye utwitambire. Bafashe ku munwa bifashe ku ndangakumirwa, imbere yabo hari n'umwarimu uri kubigisha ari guseka.